Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ubusitani bwiza cyane harimo ikirago cyicayeho abana, buri umwe afite igitabo imbere yaho hari umurezi wabo ufite ikaramu, impande yaho hari inzu yubakishijwe amabati y'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ishuri ryicayemo n'abana bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Buri umwe afite mudasobwa imbere ye ndetse bicaye ku ntebe zisa ubururu, umuhondo n'umutuku.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abagore, abagabo ndetse n'abana, abana bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakaba bari kubakarabya intoki bigaragaza ko bagiye kurya.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, abana bicaye hamwe bakoze uruziga bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo n'icyatsi, bari imbere y'amashuri asakajwe amabati y'umweru, hariho n'ibyapa biri mu mabara y'ubururu.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda kandi bwageze kuri bose. Icyumba cy'amashuri kirimo ikibaho cy'umukara, gitewe irangi ry'umuhondo. Harimo abana bicaye ku ku mukeka n'umurezi wabo arahagaze ari kuberekera ibintu.

Inyubako ifite ibirango bigaragaza ibihugu cyangwa se imigabane kandi imbere yazo hari abana bafatanye urunana, bambaye impuzankano y'icyatsi ndetse n'umuhondo basa nk'aho bari gukina.

Abana batoya bicaye hamwe mu nzu barimo kureba ibyo umuntu mukuru uhagaze imbere ari kubigisha yifashishije imfashanyigisho.

Abayobozi b'u Rwanda bakomeje kutugeza kuri byinshi. Aho bashyizeho irerero ry'abana batoya. Abana bicaye ku mukeka, buri umwe afite amata. Harimo umurezi wabo uri kugenda ubagaburira.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri gitewe amarangi asa umuhondo, harimo intebe zisa umuhondo, icyatsi n'ubururu, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Abana batoya b'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara, bicaye ku kirago,, umwarimu wabo ari kubagaburira. Bamwe muri bo bafite ikaramu, abandi ntayo bafite.

Ishuri rirererwamo abana batoya b'inshuke kugira ngo bagire ubumenyi buhagije bakiri bato ndetse hakaba hari n'umurezi wabo uri kubafasha yifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye kandi muri iryo shuri harimo intebe, ibitabo n'ibindi abana bakifashisha kugira ngo bongere ubumenyi.

Inyubako ebyiri zubakishijwe amatafari ahiye harimo imirongo isa umweru, hari umwana urimo gucunga ikiziga, kandi hagati y'izo nyubako hari ikigega cy'umukara.

Intebe zisa nkaho ziri mu ishuri zirambitseho ibikoresho abarezi bifashisha batanga isomo ku banyeshuri, intebe isa nkaho yangiritse hasi.

Umuhanda wa kaburimbo aho ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari na rigore amazi anyuramo, ukaba ukikijwe n'amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishuri rigari cyane rigizwe n'inyubako nyinshi, imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umutuku n'umweru, bamwe bahagaze mu muhanda abandi bari mu busitani bwaho.

Ibyapa bitatu bigaragaza amashusho y'amabara runaka ndetse n'ibindi bigaragaza nk'ibiti, inyubako, inyamaswa ndetse n'imihanda.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, mo imbere harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzankano yiganjemo umutuku n'umukara. Buri umwe agiye afite mudasobwa imbere ye ndetse n'ikaramu.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakajwe amabati atukura, mu busitani bwaho hicayemo abana bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi, ubururu ndetse buri umwe afite igitabo afite n'ikaramu, umurezi wabo nawe afite igitabo yicaye hagati yabo.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ishuri yicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Bamwe muri bo baryamye ku ntebe, abandi barikureberera ibyo mwarimu arikwandika imbere ku kibaho.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, imbere yabo hari umurezi wabo yambaye itaburiya y'umweru ndetse bamwe muri bo bipfutse mu maso.

Uburezi bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'ubururu bafashe ibasi irimo ibiryo, akawunga ndetse n'ibishyimbo.

Uburezi bufite ireme bukomeje kutugeza kuri byinshi. Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, ndetse buri banyeshuri bagiye bicara ku ntebe ari batatu.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abarezi kugira ngo bagire icyo bungura abanyeshuri kandi byorohere abanyeshuri gufata ibyo bintu kuko baba babireba.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ryubakishijwe amatafari atukura, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, buri umwe afite igitabo ari gusomeramo.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye. Mu kibuga cyabo hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Bamwe muri bo bahetse ibikapu.

Uburezi bufite ireme bwageze ku baturarwanda bose. Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu n'indi isakajwe atukura. Imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati y'ubururu n'amatafari ahiye, imbere mu kibuga hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu, hari ibiti birunze mu kibuga n'amatafari, haparitse imodoka.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amategura, imbere yaho hari ubusitani ndetse n'ibindi bihubatse bifasha abana kwidagadura. Impande yaho hahagaze umurezi wabo ufite igitabo mu ntoki.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ishuri ryiza cyane ryisakajwe amabati atukura. Amadirishya n'inzugi bitewe irangi ry'umukara naho ku nkuta hatewe irangi ry'umuhondo. Imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, ku ndabo zihari hanitse imyenda y'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri isakajwe amabati y'ubururu itewe amarange asa icyatsi, yubakishijwe amatafari ahiye imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ishuri ryubakishije amatafari ahiye, mo imbere hari intebe, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, bafite ibiryo bari kugenda barurira kuri buri sahani, kandi mu ntebe zabo habitsemo ibikapu.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye hamanitseho igipapuro cyandikiyeho amagambo y'umukara bigaragaza indangagaciro z'ikigo, imbere yaho hicaye abanyeshuri babiri bafite mudasobwa.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye gisakajwe amabati y'ubururu, harimo intebe nyinshi ndetse n'icyapa cyanditseho inyuguti guhera kuri a, b, c kugeza kuri f.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, isomero ririmo ibitabo by'amoko atandukanye, hahagazemo umuntu ufite igikarito kirimo ingwa zitandukanye, mu mabara atandukanye, ubururu, umweru, umutuku, ndetse n'umuhondo.

Uburezi bufite ireme bukomeje kutugeza kuri byinshi, inyubako y'amashuri irimo intebe nyinshi yicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano ziganjemo umukara n'umweru, harimo umurezi wabo ufite agakarito karimo ingwa ziri mu mabara atandukanye.

Uburezi bwageze kuri bose, isomero ry'ibitabo higanjemo ibitabo bisa icyatsi, umutuku ndetse n'umweru, harimo intebe hakabamo n'umuntu wicaye wambaye itaburiya y'umweru afite igitabo ari gusoma.

Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda bazanye mudasobwa, aho abanyeshuri biga mu mashuri abanza basigaye biga bigira kuri mudasobwa kugira ngo babashe kumenya imikoreshereze yazo ndetse no kujyana n'Isi ya none.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, impande y'aho hari umurima utewemo imyumbati ndetse n'ibitoki. Hari abandi bantu batari abanyeshuri bahagaze mu muhanda.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati atukura, ndetse n'andi asa ubururu. Inzugi n'amadirishya bitewe irangi ry'ubururu. Imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane, ndetse inyuma yaho hakikijwe ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako yicawemo n'abantu benshi bambaye impuzankano, hari undi muntu imbere usa nkaho ari kugira icyo ababwira, kandi n'abo bantu bafite icyo bari kuganiraho.

Inyubako nziza cyane ikikijwe n'ibiti byiza cyane bigiye bitandukanye kandi hagati y'iyo nyubako harimo ikibuga gikorerwaho imyitozo ngororamubiri kandi cyiza cyane.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri rinini cyane risakajwe amabati y'ubururu, ritewe amarange y'umweru amadirishya asa ubururu, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane, yubakishijwe amabati atukura asa nk'aho ashaje, imbere yaho hari ibiti ndetse n'ikibuga kirimo amabara atandukanye. Hariho abanyeshuri bahagaze ku kibuga.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kigari cyane kirimo abanyeshuri bagiye mu myitozo ngororamubiri, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umutuku. Hari abayobozi babo na bo bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Isomero ririmo ibitabo bigiye bitandukanye bimwe bisa umutuku, umuhondo, umweru, umukara, icyatsi. Hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'umutuku, bafite ibitabo bari gusoma, abandi bafite amakaramu bari kwandika.

Inyubako irimo abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano hagati muri bo hakaba hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umweru n'umukara, usa nk'aho afite icyo ari kubwira abanyeshuri bicaye.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati y'ubururu andi atukura. Gitewe amarangi y'icyatsi, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye, ndetse hagati y'ubusitani n'ibigo by'amashuri harimo umuhanda.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati y'umutuku gisizwe irangi y'umukara, hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, aho barira hateretse ibiryo biri mu mabase ari mu mabara atandukanye, icyatsi, umutuku n'ubururu.

Imfashanyigisho zibitswe mu isomero, zitondetse neza, zifite amabara atandukanye, umuhondo, umweru, umukara, bidufasha kwiyungura ubumenyi bundi.

Abantu benshi bicaye hamwe bambaye impuzankano, ifite amabara y'umweru, ubururu, inyubako nziza, abantu basa nkaho bari mu nama.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umwe muri bo ahetse agakapu, bicaye mu modoka iri mu muhanda, impande yabo hari ibiti ndetse n'ubusitani bwiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarange y'umweru mo imbere. Ni inyubako y'ishuri aho harimo abanyeshuri bari gukora ikizami imbere yabo hari abarimu bari kugenda babacunga ngo bataza gukopera.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ikigo cyiza cyane cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu. Yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari ubusitani bwiza cyane. Hari icyapa kigaragaza ko cyitwa indatwa n'inkesha. Kikaba giherereye mu karere ka Huye mu Majyepfo.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, igitabo kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo asa umweru, hari ibigaragaza iryo somo, ishuri bigamo iryo somo ndetse hari n'ahandi hashushanyije ibiti.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo n'umweru, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara, umweru n'ubururu, imbere yaho hari umuntu wambaye umupira w'umweru.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanda mugari cyane uri kugendamo imodoka, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu. Hari inzu isakajwe amategura ndetse n'amatara ari ku muhanda.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kigari cyane gikikijwe n'ubusitani, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru. Imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umukara, afite n'igitambaro mu ntoki. Hari undi wambaye ipantaro y'umukara ufite ikayi ndetse n'umugore wambaye umupira w'ubururu.

Ikigo cy'amashuri kirimo abantu batandukanye basa nkaho bari kubyina imbyino nyarwanda ndetse n'abandi bahagaze bari kubaririmbira.

Inyubako nziza irimo abantu benshi bicaye hamwe bagiye batandukanye bambaye impuzankano mu ibara risa umweru, basa nkaho bari kureba mudasobwa.

Umuhanda mugari cyane urimo amabuye. Impande yawo, hari ubusitani ndetse n'amazu asakaje amabati atukura. Hari igipangu gifite amarange y'ubururu, hari n'ibiti.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo bahagaze mu kibuga cyiza cyane. Impande yabo hari abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano yiganjemo umweru. Hari amashuri asakajwe amabati y'ubururu, andi asakajwe amabati atukura.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane isakaje amabati atukura, itewe amarangi y'umuhondo n'umweru, inzugi ziteye amarangi y'umukara. Imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza irimo abantu benshi bicaye n'abahagaze basa nkaho bambaye impuzankano isa umweru, imipira y'ubururu ndetse n'umuntu uhagaze imbere ufite icyo ari kubabwira, asa nkaho ari kubakoresha inama.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, kaminuza yigenga iherereye mu Majyepfo mu karere ka Huye, amashuri abanyeshuri bigiramo, inyuma yabo hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'ikigega.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, mo imbere hari abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru. Buri umwe afite ikayi n'ikaramu ndetse abandi bafite ibitabo.

Inyubako ifite amabati y'umutuku, ikikijwe n'ibiti byinshi kandi hagati muri izo nyubako hari ibinyabiziga twifashisha kugira ngo dukore ingendo zitandukanye, kandi hakaba hari gukiniramo abana batandukanye.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gisakajwe amabati y'ubururu. Imbere mu kibuga hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Imbere yabo hari umunyamahanga ufite indangururamajwi.

Uburezi bufite ireme, bwageze kuri bose. Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, gitewe amarange y'ubururu, imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru. Mu muhanda hari abantu bane bahagazemo ndetse n'umurezi wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri giherereye mu majyepfo mu karere ka Huye, imbere y'iyo nyubako hari abanyeshuri babiri, abakobwa babiri ndetse n'ikinyabiziga gihari.

Isomero ririmo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye bigizwe n'amabara atandukanye nk'ubururu, umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'umuntu urimo arasoma ibitabo.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ririmo ikibaho ritewe irange ry'umuhondo, imbere hari abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru, imbere yabo hari umurezi wabo ufite igitabo.

Ishusho y'igitabo gisa nkaho aricy'imibare kigizwe n'amabara atandukanye:u mutuku, icyatsi, kiriho umunyeshuri wambaye ishati y'ubururu useka neza.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'umukara, imbere yaho mu kibuga cyaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, buri umwe afite igipapuro ari kwandikaho ndetse n'ikaramu.

Ikibuga gikorerwaho imyitozo ngororamubiri kirimo abantu benshi batandukanye bambaye impuzankano kandi bakaba bafite icyo bari kubwirwa n'abarezi babo.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu, inzu y'isomero harimo ibitabo bifite amabara atandukanye: icyatsi, ubururu, umutuku, umuhondo, harimo ameza n'intebe irambitsweho igikapu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, iyo taburiya ikaba yanditseho ikigo cy'amashuri abanza cya Huye, ahagaze imbere y'ikigega gisa mukara, bigaragara ko ari ku ishuri.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, umwe muri bo afite igitabo, impande yaho hari inyubako isizwe irange ry'umuhondo ndetse n'ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo gisakajwe amabati y'ubururu, kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye. Imbere mu kibuga gishashwemo, amatafari harimo abana bari gukina imikino yo kwidagadura no kugorora umubiri.

Uburezi bwageze kuri bose. Isomero ririmo ibitabo bigiye bitandukanye kandi bitondetse ku murongo. Bimwe bisa icyatsi, ibindi bisa ubururu, ibindi bisa umutuku. Imbere yaho hicaye umuntu wambaye itaburiya y'umweru ndetse hari n'ameza arambitsweho mudasobwa.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati y'ubururu. Impande yaho hari ibiti birebire cyane byakuze, ndetse n'ikibuga giparitseho ibinyabiziga nka moto n'imodoka. Hari indabo, impande y'indabo hahagaze abantu babiri.

Uburezi bukomeje kutugeza kuri byinshi, inyubako nziza y'amashuri isakajwe amabati y'ubururu, imbere yaho hari icyapa kigaragaza ko ari kaminuza yigenga iri mu majyepfo mu karere ka Huye, ikaba ari iy'abapadiri.

Uburezi bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo n'umweru harimo abantu bicaye ku ntebe z'umukara bafite amazi, umwe muri bo ahagaze imbere yabo afite mudasobwa, hahagaze n'umugore w'umunyamahanga.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amabati y'umukara. Imbere yawo hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye. Umutuku, umuhondo. Impande hakikijwe ibiti by'amoko atandukanye, ndetse mu busitani hahagazemo abantu babiri.

Ikibuga kigari cyane giparitswemo imodoka, imwe isa umweru, indi isa umutuku, imbere yaho hari abantu babiri bahahagaze, impande yabo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, hejuru isakaje amabati atukura, inyuma hari ibiti bitandukanye.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri yubatswe neza cyane yubakishijwe amabati atukura, imbere yaho hari ikigega n'umuntu uhagaze imbere y'ikigega, mu busitani hanitswemo imyenda iri mu mabara atandukanye.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati meza cyane gisizwe amarangi asa umuhondo. Imbere yaho hari ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye umutuku, ndetse n'umweru. Harimo umuntu wambaye imyenda y'umukara.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, umuhanda uparitswemo imodoka, moto n'amagare, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umweru, umukara, imbere yaho hari abantu bari kubaka inyubako nshyashya ndetse hari n'ubusitani bwiza burimo imikindo.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umukara n'umuhondo harimo uburiri bushashwe neza, buri buriri bwicayeho umuntu ufite mudasobwa, imbere yabo hari utubati turimo ibikoresho byifashisha mu gukora amasuku.

Umugore uhagaze imbere, wambaye ikanzu idoze mu gitenge, akaba yambaye n'ikarita igaragaza ibyo akora mu ijosi ndetse n'amadarubindi, afite indangururamajwi mu ntoki, aho ari gutanga ikiganiro ku bantu bitabiriye iyo nama.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho hari ubusitani bwiza cyane bwubatsemo akazu gafite irange ry'ivu hepfo hakaba hari akandi kazu kicaramo abashinzwe umutekano. Aha ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako isizwe amarange asa umweru mu imbere harimo abantu bambaye amataburiya y'umweru, buri umwe afite mudasobwa ari gukoresha, imbere yabo hahagaze abandi bagabo babiri bambaye imyenda y'umukara nabo bafite mudasobwa.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarange asa umweru harimo intebe nziza zicaweho n'abantutu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye umukara, umweru, buri umwe afite icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishuri rigari cyane ririmo intebe nyinshi, ritewe irangi risa umweru, hicayemo abagabo ndetse n'abakobwa, harimo umunyamahanga ufite mudasobwa n'abandi bafite mudasobwa n'amazi imbere yabo.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho hari ubusitani bwiza burimo indabo z'amoko zitandukanye, umuhanda uri hagati y'ubusitani, harimo abantu bari kugenda bambaye imyenda isa umweru, umuhondo n'undi wicaye, wambaye imyenda y'umukara.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri gifite inyubako nziza cyane, cyubakishijwe amabati y'ubururu n'andi atukura, gisizwe irangi ry'umweru, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye, hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Amashuri yubakishijwe amabati atukura, akikijwe n'ibiti bitandukanye ndetse n'ubusitani burimo imikindo. Imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse n'undi muntu uhahagaze wambaye imyenda y'abacunga umutekano.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru n'umuhondo, intebe nziza cyane ndetse n'ameza. Hicayemo abantu buri umwe afite mudasobwa imbere ye, ikaramu, ari kwandika.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho harimo amoko menshi agiye atandukanye y'intebe zikozwe mu buryo bugezweho, abanyeshuri bicaraho bari kwiga, aha ni muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini cyane itewe amarangi y'umweru, hamanitseho ibitambaro by'ubururu. Harimo intebe nyinshi cyane zitondetse ku murongo. Harimo n'ameza ateretsweho mudasobwa.

Ubu burezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu, ikaba itewe irangi risa umuhondo. Impande yaho hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye, ndetse mu muhanda hagati harimo abantu babiri bari ku...

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikibuga kigari cyane gikorerwaho imyitozo ngororamubiri, impande yaho hakikijwe ibiti ndetse hagati hahagaze abanyeshuri bane bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, harimo intebe zitukura, hicayeho abantu bagiye batandukanye, buri umwe afite igitabo ndetse imbere yabo hari amazi, bambaye imyenda itandukanye iri mu mabara asa ubururu, umukara n'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo, ikaba yubakishijwe amabati atukura. Impande yaho hari ubusitani burimo indabo z'ubwoko bwinshi, zimwe zisa umutuku, izindi zisa umuhondo. Hahagaze umuntu ufite terefone mu ntoki.

Uburezi bufite ireme bukomeje kugera kuri bose, inyubako y'amashuri iherereye mu karere ka Rulindo, ahazwi nka Kaminuza nkuru yigisha imyuga iherereye i Tumba, inyubako nziza irimo ibikoresho bya mudasobwa.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako itewe amarangi y'umweru n'umukara, ku nzugi hatewe ubururu, hari ibitambaro bisa ubururu ndetse imbere yaho hari ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu, cy'u Rwanda. Inyubako nziza iriho ikipa kigaragaza kaminuza yigenga iherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Mu marembo yawo hari abantu babiri, umwe yambaye imyenda y'umuhondo, undi yambaye itukura.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ritewe amarange y'umuhondo ndetse n'umweru, hicayemo abanyeshuri bambaye imyenda yiganjemo umweru n'ubururu, bicaye ku ntebe zisa icyatsi, imbere yabo hari undi uri gukoresha mudasobwa.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo n'umweru, harimo intebe zisa umutuku, hicayemo abantu bari mu ngeri zitandukanye, buri umwe afite mudasobwa imbere ye, imbere yabo hahagaze umunyamahanga wambaye ishati y'ubururu na karuvati y'umutuku.

Icyumba kigizwe n'ibintu bitandukanye, harimo igitanda gishashishijwe amabara y'umweru, umuhondo, igikoresho bifashisha bicara baruhuka, igikoresho bifashisha bashyiramo imyanda.

Inyubako nziza cyane, iherereye mu majyepfo mu karere ka Huye izwi nka kaminuza nkuru y'u Rwanda, yubakishi amabati atukura ndetse isizwe irangi ry'umweru, ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarange y'umweru, imbere yaho hari ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye ndetse hanitswe n'imyenda iri mu mabara y'umweru, umukara n'ubururu.

Uburezi bufite ireme bukomeje gutezi imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bya mudasobwa ndetse n'abanyeshuri bicaye ku ntebe. Buri umwe afite igitabo na mudasobwa imbere ye. Bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako iteye irangi risa umuhondo n'umweru, harimo intebe zicaweho n'abantu bambaye imyenda itandukanye, higanjemo umweru n'umukara, buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako nziza cyane y'amashuri isakajwe amabati atukura, ikikijwe n'ibiti byiza cyane n'umuhanda usashwemo amabuye, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri yubatse neza cyane isizwe amarangi y'umweru, mo imbere harimo abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, buri umwe afite mudaso...

Ishyamba riri mu bintu bidufasha gucana, ishyamba rigari cyane rigizwe n'ibiti birebire kandi bitandukanye, harimo umuhanda uciyemo hahagazemo abantu babiri ndetse umwe muri bo afite umuhoro.

Icyumba gitewe irangi risa umweru, ku idirishya hamanitse igitambaro cy'ubururu ndetse uburiri bushashwe neza, busashishijwe ibitambaro byiganje mu mabara y'umweru n'umukara, imbere yaho hari akabati kariho ibivido.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati atukura, amatafari ahiye. Imbere mu busitani bwaho hari indabo nziza cyane, harimo n'abagabo babiri bahagaze. Abanyeshuri bari mu kibuga bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje kutugeza kuri byinshi, ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, impande yaho hari abarezi bafite ibitabo mu ntoki ndetse inyuma yabo hari ubusitani bwiza cyane.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane itewe irangi ry'umuhondo, mo imbere harimo akabati karimo ibitabo by'ubwoko butandukanye. Harimo intebe zicaweho n'abantu bafite mudasobwa. Bamwe muri bo bari kwandika, abandi bafite ibitabo.